Uyu mwana afite udushusho, utubumbano tw'utunyamaswa, twifashishwa mu kwigisha abana mashuri mato.

Iki ni ikigo cyamashuri, imbere yacyo hari jaride irimo n'ibendera ry'Igihugu rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo nicyatsi.

Iyi shusho iri kugaragaza igikapu cyangwa se uruhago abana batwaramo amakayi bagiye ku ishuri. N'urwo bahehika mu mugongo n'urwo batwara mu ntoki.

Izi ni imfashanyigisho ziboneka mu bitabo by'abana biga mu mashuri abanza, harimo ururabo radiyo, ipantaro, ijipo isahani inkweto, umuneke ingofero avoka.

Iyi nzu ni inyubako y'ikigo cy'amashuri yubatse mu buryo bwa kijyambere, igeretse hasi no hejuru yigirwamo n'abanyeshuri.

Aha hari kugaragara inyubako, nini yubatse buryo bugezweho, imbere yayo hari abana benshi b'abanyeshuri, bagaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, bagiye bahagaze, abandi baciye bugufi bari kumwe n'ababyeyi babiri.

Uru ni urukuta rw'ishuri rwanditseho indangagaciro na kirazira by'ikigo cy'amashuri yisumbuye ya Gihengeri, hariho indangagaciro na kirazira ndetse n'ibirango bindi by'ishuri.

Aba n abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bahagaze bari kwifotoza, imbere yabo hicaye abayobozi batandukanye, barimo abo mu nzego za polisi, ubuyobozi butandukanye, muri abanyeshuri hari kugaragaramo n'uri mu rwego rwa dasso.

Iyi shusho iri kugaragaza umudamu usa n'uri kugenda, inyuma ye hari jaride, hirya yayo hahagaze abanyeshuri bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye kuko hari n'amashuri inyuma yabo.

Ishusho igaragaza ishuri hicayemo abanyeshuri basa n'abicaye mu buryo butandukanye, bameze nk'abari gukora ibizamini bya leta cyangwa se byo mu ishuri bisanzwe.

Aba ni abanyeshuri n'ababyeyi bahagaze, bari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Iri ni ishuri ryubatse mu buryo bwa kijyamberegere, rigekeranye bigira hasi abandi bakigira hejuru.

Iyi shusho iri kugaragaza urubyiruko rwicaye, imbere yabo hari ameza, bose basa nk'abaje mu nama cyangwa se amahugurwa.